Abantu batatu ba nkaho ari abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima n'abandi bagabo babiri bicaye ahantu mu byatsi bameze nkabari mu ikiganiro runaka bafite ikintu runaka bo kuganiraho kijyanye n'ubuzima bwabo.

Ndi kubona umugore wishimye uri guseka ufite natirere, wambaye imyenda y'umukara, ahagaze ahantu hameze nk'aho ari muri farumasi birasa nk'aho ari umuganga, ya ndi kubona, ikayi, mashine n'imiti itandukanye.